Ameza ateretseho icupa, igitabo ari mu nyubako irimo amatara y'icyatsi, iyi nyubako ifite intebe zigiye zitandukanye harimo televiziyo ebyiri ziri kugaragaza umupira w'amaguru n'abantu bicaye ku ruhande.

Icyapa giteretse iruhande rw'inzu, inzu ifite amadirishya y'icyatsi, imbere y'icyo cyapa haparitse imodoka y'umweru. Ku cyapa hariho inzoga ipfundikiye, n'ikirahure kirimo inzoga mo imbere.

Inyubako irimo ibintu bigiye bitandukanye, ni ahantu abantu bicara bakaganirira, bakanasangira, muri iyo nyubako harimo ameza, intebe, ayo meza akozwe mu biti, intebe zirasa icyatsi n'umuhondo, imbere y'izo ntebe hari ahantu bategura ibyo kunywa, imbere yaho hari umuntu ubakira, muri iyi nyubako harimo ibiti n'indabo.

Ibiganza bibiri by'abantu batandukanye bifite ibirahure bibiri ikirahure kimwe kirimo fanta ikindi kirahure kirimo amazi barabihuje hariho ameza y'igiti ayo meza y'igiti afiteho udutambaro dutatu igitambaro kimwe gisa icyatsi ikindi/utundi dutambaro dusa n'ivu hariho n'udutambaro tw'umweru, hariho agasahane k'umweru kariho indimu eshatu n'ibiyiko bibiri kuri uru ruhande.

Mu nyubako yanditseho Heineken harimo abantu bagiye batandunkanye mo imbere hicaye abantu ariko no hanze hari abahari, hanze hari abantu batatu bicaye imbere y'ameza n'umwe uhagaze, hirya yaho hari ameza ateretseho icupa ry'icyatsi.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo yiteze igitambaro cy'umukara afite imashini mu ntoki na terefone kuruhande, ahagaze mu isoko hirya ye hari inyanya kurundi ruhande hari izindi mboga zigiye zitandukanye.

Imeza y'igiti iteretseho agatebo karimo udupapuro two kwihanagurisha. Utwo dupapuro turi mu ishashi yatwo ariko ifunguye isa nk'icitse iyo meza iteretse ku makaro hirya yaho hari umuntu uyihagaze iruhande.

Utubido tune duteretse ku makaro dutatu muri two turasa neza akandi kamwe ntigasa neza, utu tubido twose turapfundikiye akadasa neza kanditseho Mboyi, agakurikiyeho kanditseho Volcano, agakurikiyeho kanditseho Nyabugogo, agakurikiyeho kanditseho Vincent, hirya yaho hari utundi tubido tubiri turi, kamwe gasa umweru akandi gasa umuhondo.

Isoko ryubakishirijwe amabati y'ubururu kuruhande rw'icyuma hariho kizimyamwoto mu isoko harimo ubucuruzi bugiye butandukanye kuruhande hari akazu k'umuhondo gasa nk'agacururizwamo amatelefone.

Umugore usutse yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'amabara, ahagaze imbere yakazu k'amabati y'umutuku handitseho Airtel Money, mu kazu harimo uwambaye isengeri y'umweru, ku ruhande rwaho hariho akazu k'amabati y'umuhondo hahagaze wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Mu nyubako hari intebe z'umukara ziri imbere y'igikuta kimanitseho ishusho. Hirya yacyo hari umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'umuhondo. Umugabo yambaye umupira wicyatsi n'pantaro y'umukara, umugore ahetse umwana. Hirya yabo hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo na mudasobwa eshatu. Imbere yiwe hari umugore uhagaze imbere y'uwo mugabo wambaye ikanzu y'igitenge.

Inyubako ifite amabara agiye atandukanye harimo umuhondo n'umweru ifite icyapa cyanditseho Emutiyene. Mu nyubako harimo abantu bagiye batandukanye harimo abambaye imipira y'imihondo, n' abambaye amashati y'umweru. Abambaye imipira y'umuhondo ni bane, abambaye amashati y'umweru babiri; bambaye amakaruvati kuri aya mashati. Bahagaze imbere ya mudasobwa, imbere ya babiri bambaye imipira yimyeru, hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro yubururu.

Mu nyubako ya eyateri itatswe n'amabara atatu; ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu. Muri iyo nyubako harimo abantu bagiye batandukanye, abagabo batatu barahagaze n'umugore umwe barindiriye gufashwa. Abandi nabo baricaye barindiriye ko abahagaze bagenda nabo bagafashwa.

Akazu k'igiti gateretse ku mapavi gafite imitako ibiri y'umweru n'umukara, muri ako kazu harimo abantu babiri bicayemo umwe yicaye imbere ya mudasobwa hirya y'uwo muntu hari igicupa cy'amazi, hejuru y'ako kazu hariho ibyapa icyapa kimwe cyanditseho ekwiti, ikindi cyanditseho irembo na nimero za telefone ku ruhande hariho ikindi cyapa cyanditseho beka na ekwiti.

Umugabo wambaye umupira w'umukara yambaye ikasike y'ubururu bwerurutse ifunguye, ari gukora igikarito cyumweru muri bogisi y'ubururu bwerurutse iyo bogisi iri kuri moto iyo moto iparitse ku ruhande rw'igiti cyamashami y'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara avuye kuri moto, moto iparitse hagati y'izindi modoka kuruhande rwayo hariho imodoka y'umweru uwo mugabo ari gukuramo kasike iyo moto ifite ifite bogisi y'umutuku yanditseho kefusi delivari.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ijinsi, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara bahagararanye n'umukobwa bahagaze mu nzu irimo amatara menshi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ariko higanjemo amatara.

Umubyeyi ukenyeye igitenge yambaye agapira k'umweru ni igikara ahagaze imbere y'abandi babyeyi bafite abana harimo abafite abana harimo n'abatafite abo bose bafite impapuro z'umuhondo bicaye ku ntebe barasa nkabarindiriye .